Aha ni muri farumasi, aho abarwayi bafatira imiti, iyi miti muri iyi farumasi iri mu mapaki atandukanye, hanyuma amapaki nayo akaba ari ku matageri atandukanye.

Aha ni muri farumasi nk'uko bigaragazwa n'ubwoko bw'ibinini, bitandukanye birimo ibipfunyitse mu mashashi, ibiri mu ducupa ndetse n'ibiri mu dukarito.

Ibi ni ibitaro biri kubakwa nkuko bigaragazwa n'inyubako z'ibitaro parikingi z'imodoka ndetse n'inzira zitandukanye zinjira muri ibi bitaro.

Aha ni ku bitaro harimo icyumba kibagirwamo imbagwa muri iki cyumba haragaragaramo abaganga babiri ndetse n'umufasha wabo umwe yatangiye igikorwa cyo kubaga umurwayi.

Aha ni kuri posite dosante aho abaturage babonera ubuvuzi bw'ibanze kuri posite dosante hariho abantu baje kwivuza barimo abagabo ndetse n'abagore.

Aha haragaragara imodoka itwara abarwayi imbangukiragutabara, bigaragarako iri guhabwa iri guhabwa abazayikoresha, bahabwa ibyangombwa by'imodoka ndetse n'urufunguzo ruyitwa twara.

Uyu ni umurima w'amasaka ,uhinzemo amasaka. Aya masaka akaba afite amahundo atari yera nanone aya masaka akaba ateyemo ibishyimbo.

Iki ni ikidodoki giteye ,iki kidodoki cyatangiye kwera, ibidodoki aho ndi kubonamo ikidodoki kimwe, kandi iki kidodoki gifite amababi mabisi ,ndetse n'amababi bigaragara ko yumye.

Uyu ni umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, birimo ibishyimbo, ibigori, ndetse ku ruhande rw'uyu murima hateye igiti cya sipure.

Ibi ni ibyatsi byitwa isanduruma. Ibi byatsi bikaba bikundwa n’amatungo atandukanye, arimo inkwavu, inkoko, ingurube, ndetse n’andi matungo yo mu rugo.

Uru ni urugo rurimo inzu yubakishije inkarakara. Ikaba ifite fondasiyo y'amabuye, n'aho ku ruzitiro hateyeho ibiti by'ibidariya ndetse n'ibiti by'inturusu.